Ubucuruzi bw'imiti y'abantu, akaba ari kimwe muri bizinesi cyangwa se ubucuruzi bufasha abaturage mu kubonera imiti hafi. Aha uragenda ukavuga indwara urwaye, ubundi n'umuti muganga yakwandikiye. Wishyura amafaranga bakawuguha bikakorohereza mu buzima bwa buri munsi.

Igicumbi cyangwa ahantu abantu benshi barara, akaba ahangaha hagaragaramo ibitanda biraraho abanyeshuri batoya, akaba ari ibitanda bifite inzitiramibu hejuru, igikoresho kirinda umubu witwa anoferi utera uburwayi bwa malariya.

Kwa muganga ahantu umurwayi ahurira na muganga amuvura, aha hakaba hari umuganga urimo gutera umurwayi urushinge ku rutugu amuteramo umuti, bituma indwara cyangwa se wenda ikira n'iyo atarayirwara ayimukingira, bambara udupfukamunwa kugira ngo batanduzanya indwara.

Igikorwa cyo kubaka ikiraro kimwe mu bikorwaremezo bituma abaturage babasha guhahirana, kuko ikiraro gishyirwa kenshi ahantu hari amazi, gituma abaturage boroherwa no kwambuka ndetse n'imikoki bituma hacika cyangwa se bigabanya impanuka zatuma, zaterwa n'iyo mikoki. Ikiraro cyubakishwa ibiti cyangwa ibyuma.